Kubona imiti ivura indwara zitandukanye. Hari igisura, hari ibumba, hari mazi ya teke, zivura indwara zitandukanye amagiripe, ibicurane, asima, sinesite, munda, inzoka zo mu nda.